Ibiganza bibiri by'abagabo bambaye amakote bari gusuhuzanya ni umuco mwiza w'abakurambere batubanjirije barabikundaga byerekanaga urukundo umuntu wese afitiye mugenzi we bahuye.

Umukobwa uhagaze afashe kumeza imbere ye, ari guseka aba afite amenyo y'umweru, ni inzobe, umusatsi w'umukara mwinshi, yambaye umupira w'ubururu ni mwiza arakeyeye.

Abakobwa babiri bahagaze, bari guseka, bafite amenyo y'umweru, imisatsi myinshi, umwe arambuye akaboko, ari kugahereza uri imbere ye amubaza amakuru kandi anamusuhuza.

Umugabo muremure munini wambaye umupira w'umuhondo ahuye n'umwana uhetse igikapu ari kumusuhuza aramubaza amakuru, aramureba mu maso barishimye baranezerewe.

Umukobwa uri guseka, afite umusatsi mwinshi, yambaye amaherena, ni inzobe, amenyo arakeye, ni umweru, umupira w'umuhondo, afite igitabo mu ntoki, ni mwiza.

Imodoka nyinshi z'amabara atandukanye zirahagaze, izindi ziri kugenda ni nziza, ni igikorwa cy'ingenzi kuba zihari kandi uwayiguze ntabwo akena imufasha muri byose, kujyana abana ku ishuri, kujya ku kazi akagerayo adakererewe, gutwara abantu bakagera aho bagera ku gihe.

Umwana n'umubyeyi, bari guseka, bafite imisatsi, baranezerewe, ari mu mugongo we, arishimye, kuko ari kumuha urukundo rw'ababyeyi, nawe akazarukurana, umutima we uguwe neza.

Imipira myiza imanitse muri ambaruberwe, indi irazinze ni ubururu icyatsi kibisi, umweru ni minini ikwira buri wese ni myiza.

Umugore wicaye mu cyumba bari gucururizamo imyenda ari guseka afite imisatsi n'inzobe yambaye ikote ry'ubururu ameze neza iruhande rwe hari etajeli imanitsemo isakoshi itukura.

Imyenda myiza y'amabara atandukanye ikorerwa hano i wacu mu Rwanda; imipira, amakote irahendutse ntabwo igoye kuyifura. Iraramba iteye neza.

Inzu bari gucururizamo imyenda, imipira iramanitse y'amaboko maremare, amagufiya amabara atandukanye, umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi, ubururu, iramanitse ni myiza.

Inzu bacururizamo imyenda y'abagore, ubwaho hasan neza, ni amabara atandukanye, bayambitse ibintu by'ibishushanyo kugira ngo uje kuyireba wese, ajye ahita abona ibara ashaka n'umwenda umukwiriye bitamugoye.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge wicaye ari guseka cyane afite amenyo y'umweru arishimye, imbere ye hari ameza harambitseho urupapuro afite ikaramu yarisukishije, hirya ye hari imyenda yaturutse mu bitenge by'amabara atandukanye ni myiza.

Inzu bari gucururizamo imipira yo kwambara, amashati hahagazemo abantu babiri b'igitsina gore umwe afite imisatsi myinshi yambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare amaze kugura bari kumuhereza indangabuguzi iturutse kuri ibiyemu kugira ngo imisoro y'igihugu itazanyerezwa.

Imyenda imeshe y'amashati y'abagabo bayanitse ku masinga yabugenewe kwanika kugira ngo itihinarika iyo bagiye kuyambara ntabwo igorana nta nubwo bayitera ipasi bahita bambara badakererewe.

Akabati gakozwe mu mbaho gafite ibyumba bitandukanye bisize irangi ry'umweru harimo iby'ubudozi bari kugurisha imisego yo kuryamaho ikozwe mu myenda ikorerwa hano mu rwanda nimyiza.

Imyenda y'abagore imanitse aho igurishirizwa, ni myiza, miremire, iroroshye kuyifura, yambika ushobora kuyigura, amabara aratandukanye, umutuku, umuhondo ubururu, n'ayandi.

inkweto z'amabara atandukanye bari kugurisha iz'abana abakuru bari kwamamaza urukweto rwa godiyo rurakomeye rufite amano abakinnyi bararukunda kuko iyo barwirukankana ntabwo banyerera amano arufata hasi bagakomera.

Imodoka nini ihagaze itwara imizigo, imbere yayo hari umugabo ufite inyemezabwishyu, undi uri haruguru afashe ku cyapa yerekana ko iyo modoka ari nshyashya bavuye kuyigura itarakoze.

Imodoka nziza yivatiri ni itwara abantu ikabagereza ku kazi ku gihe irihuta ntagikereza urugendo iteye neza irahendutse ntabwo igoranye.

Agahanda gato k'igitaka, hepfo yaho hateye indabyo bakase zigaragara neza, harimo igiti kirimo insinga z'amashanyarazi, zitwara umuriro zigacanira hirya no hino abaturage bahatuye n'ibinyabiziga bihanyura.

Imodoka nyinshi ziparitse ni shyashya ni amavatiri ni meza atwara abantu, akabageza ku kazi ntakibazo kibaye cyo gukererwa, abanyeshuri, abarwayi bajya kwa muganga, ni byinshi zikora kubera yuko ari ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi.

Abagabo babiri barebare bambaye amashati y'ubururu umwe yambaye ingofero y'umukara, bafite icyapa bahagaze imbere y'imodoka nini itwara abagenzi y'ibara ry'umweru ifite intebe nziza bicaramo bakisanzura.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye umupira w'umukara undi ishati y'ubururu n'akapu mu ntoki bafite icyapa kiranga aho wakura iriya modoka ibahagaze iruhande ugiye kuyigura amafaranga yawe.

Imodoka ihagaze y'ivatiri nini, ni nziza, irakeye, ni nshyashya, iyo umuntu ayigendamo yumva yicaye neza nta mpungenge afite, itanga umusaruro kuri byose.

Imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umutuku icanye amatara, ni shyashya ni nziza kuyitunga ni iby'igiciro, igeza abantu ku kazi badakerewe, ku mashuri, kwa muganga, ni ingirakamaro.

Abagabo babiri banini, bari kumurongo bambaye umupira utukura, uw'imbere yambaye umupira w'ubururu n'umweru w'imbeho, barahagaze barategereje ibyo baje kureba.

Umugore uri mu nzu ya'ho babikiriza amafaranga, imbere ye hari ameza hariho ayo yaje kubitsa. Umukozi uri kumwakira na we arimubaza icyo aje gukora.

Inoti ya magana atanu y'amafaranga y'u rwanda ruhande rumwe hari ikiraro kiba mu ishyamba rya nyungwe kizana ba mukerarugendo urundi ruhande ruriho abana b'u rwanda bari kwiga bafite za mudasobwa ni byiza kubera ko ikoranabuhanga abana barigeraho vuba.

Abantu bari mu cyumba cy'akazi, bambaye neza, bari ahantu hakeye, imbere yabo hari ameza, hari mudasobwa bari gukoresha, harimo umukobwa ufite umusatsi, ibikoresho bitandukanye, harimo amarangi meza akeye, kwambara neza bituma umuntu agaragara nk'uko yambaye.

Abakobwa babiri bicaye mu nzu imbere, ikorerwamo imirimo yo kubika no kubiku amafaranga, bafite mudasobwa bandikamo abaza babagana, ikora akazi neza icyarimwe ntibitinde mu gihe gito.

Amafaranga y'igiceri cyo mu Rwanda bakoreshaga mu gihe cya kera. Hashushanyijeho ishami ry'ikawa ni igihingwa ngengabukungu kizanira igihugu cyacu amadovize, iranaryoha iyo bayinywamo icyayi.

Ibiganza by'umuntu w'umugore bifite inote nyinshi zitandukanye z'ibihugu, imbere hari imashini ibafasha kuyabara, iyo bayikoresheje ntabwo bahomba cyangwa se ngo batange imibare ituzuye.

Umukobwa wicaye, mu nzu iri imbere, hahagaze umugabo, ahetse igikapu. Haruguru ye hari umukobwa wambaye ipantaro itukura, afite ibipirizo.

Inzu nziza yubucuruzi irakinguye umuryango ni mwiza hariho irange ry'umweru hejuru hari icyapa cyanditseho ikaze hariho ibishushanyo byerekana ibikorerwa muri iyo nzu.

Umukobwa uhagaze uri kuri telefone ari mu nzu bacururizamo ibiribwa bitandukanye n'ibinyobwa ibituruka ku ifarini, ibituruka ku matungo, amata ni meza atera imbaraga arera abana bagakura abantu bose barayakunda.

Igikombe cy'umweru giteretse ku meza cyuzuye amata, ni ikinyobwa cyiza, gitera abana gukura neza, abantu bakuru barayakunda, atera imbaraga harimo poroteyine zituma umubiri umera neza.

Ameza ateretseho ibiribwa bikomoka k'ifu y'ingano nibyiza biraryoha, umubiri urabikenera, harimo ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga birahendutse birakewe.

Amacupa baguriramo amazi yo kunywa ni meza, ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu wa buri munsi, ni nayo agize ubuzima bw'abantu bunini kuruta ibindi byose dutunze.

Umugore wicaye ku ruhande rwe hari igikombe kirimo icyayi n'ikiyiko ari gukorogesha isukari, afite terefone mu ntoki, yambaye imyenda y'ibitenge, arisukishije, ni inzobe.

Ibinyobwa bikomoka ku mata atangwa n'itungo rirerire biraryoha nibyiza biratandukanye iyo bigeze mu ruganda barabitunganya neza bikagira ubuziranenge burambye mu gihe cyo kubibika no kubibinka.

Ameza y'umweru ateretse mu muryango hariho indobo irimo capati, imineke, amagi, irimo amandazi n'urusenda n'umunyu ni byiza bibereye umubiri wabyakiriye.

Umugabo uhagaze mu nzu yo hasi, iruhande rwe hari intebe z'ubururu, umweru, ibikoresho bitandukanye, arimo ari kureba imbere ye ashaka kuzamuka ajya mu yo hejuru.

Amazi akorwa n'uruganda rwa Nili, ni meza, arahendutse, ni ingirakamaro mu mubiri wacu, tuyakenera buri munsi, akora imirimo itandukanye, tudafite amazi ntabwo ubuzima bwacu bwabaho neza.

Inzu bacururizamowo amata y'Inyange, harimwo icyuma bayabikamo, araryoha, ni meza, bayakoramo ibintu bitandukanye ni ingirakamaro, haba amavuta, foromaje, ibyo byose ni ibiriribwa biyakomokaho.

Abantu bicaye aho bagurishiriza ibyo kunywa no kurya, amandazi, amata, ni benshi harimo intebe, ameza, hari abagabo babiri umwe ari kunywa undi ateretse ku meza ari kuruhuka ni meza ni ikinyobwa cy'ingirakamaro.

Umugore wipfutse mu mutwe n'igitambaro cy'icyatsi kibisi afite igikombe kirimo amata mu ntoki imbere ye hari ameza, hirya hari icyuma bayabikamo bayacuruza ni ikinyobwa cyiza havamo ibintu bitandukanye bitunga umubiri wacu foromaje n'amavuta yo guteka.

Inzu ikinguye ifite imiryango y'ubururu bacururizamo ibikomoka ku mata inyange iba yatunganyije, hanze hari kandagirakarabe y'icyatsi kibisi, iruhande hari intebe z'ubururu ameza y'umweru bicaraho barikunywa.

Inzu bari gucururizamo ibinyobwa bitandukanye harimo n'amata, umukobwa uri kwinjira imbere yambaye umwenda w'umweru hasi hejuru umukara umusatsi yawufungiye hejuru umugabo umwicaye iruhande yakebutse ari kumureba.

Umukobwa n'umusore barahagaze bari kureba mu matelefone yabo bari guseka cyane umwe yambaye ingofero undi afite imisatsi myinshi ni inzobe, ni muremure, arakeye, araseka cyane aratunganye baranezerewe.

Umukobwa uri guseka neza, afite amenyo y'umweru, ni inzobe, yambaye amaherena, umupira w'umuhondo, akaboko kamwe, afitemo ibihumbi makumyabiri, z'inote za bitanu, y'amafaranga y'u Rwanda aranezerewe.

Ikiganza gifite telefone iri kwamamazwa ni nzizaza irakeye iyo wamamaje igikorwa cyawe uri gukora ukibonye arakugana kuko aba afite ikihamuyobora yamenye n'ubwiza bwacyo.

Umukobwa uri guseka cyane, yakanuye amaso, afite umusatsi w'umukara, urutoki yaruteye hejuru, ari kwerekana telefone avuga ko ari nziza, ihendutse, ikoranabuhanga ni ryiza kuko rikora ibintu byose, byinshi, icyarimwe.

Ibiganza bifashe amafaranga y'ibihumbi bitanu y'u Rwanda, ni menshi ni meza, uyafite nta kibazo na kimwe agira, birakemuka ku banyeshuri kurya, no gukemura ibindi bibazo byose.

Ikiganza gifite inote zitandukanye, mirongo itanu, iz'ijana, iza makumyabiri, ni nziza mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, nizo dukoresha tugura ibidutunga.

Icyapa cyerekana ibiciro byuko bagurisha cyangwa se bagura amafaranga y'amanyamahanga ni byiza kuko bigaragara iyo uyafite ukayajyana ugerayo uzi ayo baguha ku giciro kizwi.

Ikiganza gifite amafaranga y'abanyamerika bita amadorari ari hejuru, afite agaciro kanini cyane kuyagura arahenda no kuyagurisha na yo arahenda.

Ibiceri by'amafaranga y'ibihugu bitandukanye birambitse ku meza, birakomera ntabwo bijya bisaza cyangwa se ngo bite agaciro igihe bakibikoresha muri icyo gihugu kibitunze aba ari byiza.

Inzu yubatse neza ikomeye igeretse iteye amarangi akeye urubaraza rwayo rurakomeye, hari kugaragara hejuru ni heza ni nini ibyumba byayo byose bikorerwamo imirimo itandukanye, hari n'icyapa cyerekana ibyo bakoreramo.

Inzu nini yubatse neza irakomeye n'iy'ubucuruzi, hariho icyapa cyerekana imirimo ikorerwamo ko bavunja amafaranga, barayagurisha cyangwa se bakayagura ku giciro cyiza kitabangamiye buri wese.

Inzu yubatse igeretse rimwe ifite inkingi ndende, hariho icyapa kiranga ibihakorerwa, hasi hari abantu bari kugenda hirya hari umutaka wa emutiyene n'icyapa cyerekana ibyo bahakorera n'aho babashakira.

Inzu bavunjishirizamo amafaranga asohoka n'ayinjira, byose barabikora kandi ku giciro cyiza hahagazemo abagore babiri bari kuganira, kuko baba boherereje amafaranga y'abanyamahanga none bamaze kuyavunjisha barayabonye.

Inzu baguriramo cyangwa se bagurishirizamo amafaranga, a ay'abanyamahanga, ushaka ay'igihugu runaka, nimwaza kuyareba ku giciro bavuganyeho.

Inzu igaragara igice kimwe, irageretse ifite amarangi y'umuhondo, ibirahure, iruzuye, irakomeye, hakorerwamo imirimo itandukanye, ba rwiyemezamirimo, abikorera ku giti cyabo n'abakorera leta.

Inzu nziza zifite ibyumba 2 birakeye abarimo bakoreramo basa neza abantu inyuma barahari umugore n'umukobwa barahagaze bategereje ko babaha serivisi y'icyabazanye.

Inzu y'ubucuruzi ifunguye imiryango y'umweru handitseho ko bavunja amafaranga ufite aya mahanga arayajyana bakamuha ayo ashaka ku giciro cyiza kandi kidahenze ni byiza kuko bifasha buri wese uyakeneye..

Imbaho n'ibikoresho bikomoka ku biti hakorwamo ibintu bitandukanye, ameza, intebe, ibitanda, inzugi n'ibindi byose bishobora gukomoka ku biti nibyiza bitanga umuyaga.

Icyumba cy'uruganiriro gikoze neza hasi hari amakaro mu madirishya hari amarido meza, intebe z'agahebuzo zituruka ku bikomoka ku biti ni byiza birakomeye biraramba kandi birahendutse.

Icyumba cy'uruganiriro harimo intebe nziza zifite imisego ya kake n'itukura, ameza ariho indabyo, akabati gateguyemo ibintu byiza, vaze iri mu nguni irimo umukindo.

Imbere y'inzu ifunguye hari ibintu bi'ibikoresho byo mu rugo intebe z'amoko yose ibitanda matera barabigurisha uwabishaka yabibariza ahaha kuko hari ibintu byiza cyane.

Icyumba cyo kuganiriramo hasi baharambuye umukeka wo gukandagiraho, harimo intebe nziza, ameza hatunganye hararebereye amaso ahareba niheza uwazicaramo yanezerwa akaruhuka umugongo.

Iyi robine iri mu nzu, ifite igisahane imenamo amazi iyo umuntu ari gukaraba, haba hagezemo menshi agafungura hariya hagati, amazi akagenda akagabanuka, ni meza, ni ingirakamaro, barayoga, bakayanywa, niyo menshi mu mubiri wacu kugira ngo ubeho.

Ibikoresho bikomoka ku mbaho zituruka mu biti, birakomeye, biratandukanye, ameza, intebe, inzugi, amadirishya, birakomeye kandi biraramba, birahendutse.

Intebe bashyira mu cyumba cy'uruganiriro ni nziza, zifite imisego, ameza manini amatoya, iyo uzicayemo nta mugongo urwara uregamira ukaruhuka umubiri wose.

Intebe nziza n'ameza, birakeye, basize irangi na verine kugira ngo bigaragare neza, biva mubi bikoresho bikomoka ku biti, imbaho, birakomeye, biraramba, kandi birahendutse.

Inzu yuzuye igeretse rimwe, hasi hari imiryango myiza, amarangi atandukanye, ibiti biteye, ama vaze arimo indabyo, ni heza.

Inzu ebyiri ziteganye zubatse neza zirageretse zisize amarangi akeye, hejuru hahagazemo abantu imbere hari amazi bahashyize yo gukoreramo imyitozo ngororamubiri boga, ni byiza kuko ingingo zose zirarambuka.

Inzu ndende yuzuye, igereretse inshuro nyinshi ni nini, ikorerwamo imirimo itandukanye, haba mu bikorwa bya leta no mu bigenga hatangamo akazi kuko haragutse cyane ho gukorera.

Mu nzu imbere mu cyumba cy'uruganiriro hasize irange ry'umuhondo, hasa neza harimo intebe nziza zifite imisego, iyo wicayemo umugongo ntukurya wumva uguwe neza umubiri wose.

Ahantu heza cyane hatatse harimbishije, amavase arimo indabyo, n'imitaka miremire kandi minini ihashinze, hari intebe kuharuhukirana ibyiza wumva ufite amahumbezi icyo wafata cyose kirakuryohera.

Inzu nziza cyane yubatse, hejuru ifite igisenge gikoze neza kandi gikomeye, yakirirwamo abantu bose bafite amafaranga yo kugura icyo kunywa n'icyo kurya; hasi hakoze neza, indabyo ziharimbishije; ni heza harakeye.

Inzu nziza cyane iruhande rumwe yubatse igeretse hirya ifite ibirahure binini irakomeye ni nziza umuntu wese yayigura baramutse bayishyize ku isoko.

Inzu yubatse ku buryo bwisanzuye, bakiriramo abaje gufata icyo kurya no kunywa no kuruhuka no kuganira, ni heza; hari amarangi y'umuhondo, umuyaga ugeramo, hari ibinyobwa bitandukanye, ni byiza!

Inzu yubatse neza irakomeye, igeretse kabiri, ifite amadirishya akomeye, bakoreramo imirimo itandukanye, hasi hari icyapa cyerekana ko aho ngaho hacururizwa inyama z'inkoko.

Inzu ifite imiryango ikinguye, igeretse rimwe, amadirishya meza, irangi ry'umuhondo, icyapa kigaragaza ibihakorerwa n'isaha bihakorerwa.

Abagore babiri n' umugabo umwe bafite amasakoshi, bambaye imipira y'umweru, amapantaro; bari kwinjira mu nzu ikinguye ku muryango harimbishije ibipirizo by''ubururu n'umuhondo, hejuru hari ibyapa biranga imirimo ikorerwa aho ngaho.

Mu cyumba k'inzu ni heza hari intebe z'umukara, ameza maremare harateguye hari isuku y'amarangi bakoze ay'umweru, hari icyapa Kiriho inyuguti z'ubururu amarido ameze neza haratuje haratunganye ni heza.

Inzu nziza cyane yubatse neza ifite imiryango ibiri isohoka amadirishya asize irangi ritukura n'umweru, irakeye, ifite imbaho hejuru, igaragara neza kubantu bari kuyibona.

Inzu ndende ijyerekanyije inshuro nyinshi, iruzuye, iriho amarangi atandukanye, ibirahure bitandukanye, ikoreye amasuku, imbere hateye indabyo n'imikindo, ifite imiryango myiza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze mu nzu, hejuru hari icyapa cyanditseho ubwishingizi baje kugira ngo batange amafaranga biteganyirize mu gihe kizaza cyabo kiri imbere bamaze kugera mu za bukuru bazagire ubuzima bwiza nta kibazo bagize.

Inzu yubatse neza hepfo no haruguru harimo ahubakishije ibirahure inzira irimwo amakaro iromboje winjirira mu muryango umwe ugakomeza ugasohokera mu wundi ni nziza haratunganye.

Inzu nini igeretse inshuro eshatu ni nziza, irakomeye, ifite ibyumba bikorerwamo imirimo itandukanye, aho hariho ibyapa biranga imirimo ikorerwamo kugira ngo buri wese nahagera abone aho yinjira.

Imodoka y'ivatiri y'ubururu itwikiriye umutaka wicyatsi kibisi bigaragaza ko iri mu bwishingizi, ikintu cyose cyayikoraho yakwishyurwa nta mpamvu zihabaye.

Umukobwa uri guseka neza, arakeye afite amenyo y'umweru yambaye ikote ry'umukara, umusatsi, uruhanga ni mwiza arishimye.

Umwana w'umukobwa uhagaze ahantu hakeye neza hari amarangi, ari kwamamaza ibikapu afite mu ntoki, bakora mu mpapuro zikomeye, kwamamaza ni byiza kuko iyo ubikoze ababibonye baza bakugana.

Imodoka ihagaze iri kugaragaza igice cy'inyuma hariho inyuguti ya ra y'umutuku, iruhande hahagaze umugabo wambaye umupira w'ubururu afite ikaye ari kwandika n'ikaramu, umunyeshuri umuhagaze imbere yaje kugira ngo amwigishe.

Harakeye utuntu twiza cyane turi hasi tw'utugarurarumuri, hirya hari indabyo zihateretse ubona ko zihatatse ikiraro kirimo inzoga, intebe yo kwicaraho, umutaka uri hejuru, aho kwishyurarira ukoresheje ikoranabuhanga ndetse n'inzoga zihamanitse, akaguhuha neza ukumva akayaga karaje igihe ushyushye, aha hantu ni heza nawe nk'uko ubibona, ntabwo njye nabasha kuvuga ibyiza birimo byinshi wowe wabyibonera nawe.

Abagore bahagaze bambaye imyenda ifite isuku, bari guseka, basa neza, imbere yabo hateretse ibyo babohesheje amaboko, babiteye amarangi atandukanye, ni meza bisa neza.

Umugore muremure uhagaze ateze igitambaro, afite amaherena, n'inzobe ari guseka, yambaye ijipo y'umuhondo, umupira w'umweru ari kureba muri terefone yambaye n'isaha aranezerewe.

Umukobwa wicaye yambaye urunigi afite, afite umusatsi mwinshi w'umukara ari kwitaba terefone, ni byiza kuyitunga kuko umenya amakuru ku gihe nta ngorane zijemo.

Umugabo n'umugore bari guseka ndetse n'umwana barishimye, bateruye umwana bari gutereka mu gikarito, bafite gitari ni nziza ku muntu uyifite, aracuranga akanezerwa, akagira ibyishimo mu mutima we ndetse n'umubiri wose.

Umukobwa uhagaze muremure usukishije ari guseka, afite amenyo y'umweru yambaye umupira w'amaboko maremare imbere hari undi ari gutunga intoki hirya ye arishimye ni mutoya kandi arakeye.

Abantu batatu bicaye hasi undi yicaye ku ntebe, yambaye ingofero itukura uwo hasi bari hagati y'imyenda bari gucuruza y'amoko atandukanye, irazinze amapantaro y'umutuku n'ubururu umuhondo umweru n'icyatsi kibisi.

Inzu nini cyane, ureba ntuheze, harimo amatara, ibyumba bitandukanye byo gucururizamo, ibinyuranye ni heza, hasi hari amakaro amabara atandukanye, amarangi meza haratuje.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, imishabira ihiye, ibijumba biri ku mifungo, ibihaza amapapayi, indyo itandukanye ni ingenzi ku mibiri y'abantu.

Isoko rinini cyane ryubakiye urarireba nturiheze, harimo ibicuruzwa bitandukanye inyanya ibitunguru bibisi n'ibyumye ni byiza kubiteka biraryoha birahumura aho ubishyize bimera neza.

Isoko rinini ririmo abantu benshi, ibiribwa bitandukanye, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, imboga, karoti, ibitoki, amashu, dodo n'ibindi byose birimo.

Inzu nini cyane iri kugaragaza amabati y'ubururu basakaje ku gisenge inyuma hari kubera isoko rinini ry'abantu benshi bambaye imyenda y'imweruru nibo biganjemo imodoka ze kuza guhaha moto ziri gutwara abantu n'abakarani bari kwikorera ibyo bari guhaha abaje.

Isoko rinini bari gucururizamo imineke itandukanye, imbuto z'amoko yose inanasi ibinyomoro wotameloni, imyembe, byose ni ingenzi ku mubiri wacu, kuko iyo wabiriye harimo vitaminini zikomeza amenyo n'amagufa.

Isoko ry'imyenda ya caguwa ni rinini ni ryiza, amapantaro y'amakoboyi arakomera ku gitsina gabo n'abandi bose bayambara, ntabwo ihitako icika kandi irahendutse cyane.

Abantu bahagaze inyuma yi'isoko, harimo abashinzwe umutekano, abagore, abakarane bikoreye imizigo bavanye imbere bayigeza ku modoka igiye kuyitwara, ni beza kuko nabo baradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu nini kandi ndende, igeretse inshuro enye, iruzuye bayikoreye amasuku, ikorerwamo, ifite ibyumba byinshi, ikorerwamo imirimo itandukanye, iy'abikorera ku giti cyabo n'aba leta, hasi hari imodoka nyinshi cyane zitandukanye zitwara abakozi bahaza.

Icyumba cy'inzu bacururizamo imyenda itandukanye, y'ibitenge by'amabara menshi, imipira, amasakoshi y'abagore, n'iyindi n'indi izinze hari kugaragara neza.

Inyubako nini cyane igeretse inshuro enye, ibyumba byaho byose byuzuyeho abantu benshi, hasi haparitse imodoka ya polisi, imbere yayo hari abantu, hirya hari abagabo babiri barimo baraganira.

Isoko rinini cyane rikikijwe n'amazu bacururizamo harimo imodoka nyinshi zitwara imizigo abantu abamotari bategereje abagenzi ni nyinshi ziratandukanye abahagurira ntabwo bajya babura icyo batwaramwo ibyo baguze babijyana kubicuruza hirya no hino.

Inzu nto isize irangi ry'umuhondo, ikinguye amadirishya, imbere harimo umuntu utanga serivisi za MTN, ni ho zibarizwa, ku bagura amayinite yo guhamagara, kubikuza amafaranga no kubitsa.

Abagore babiri bahagaze imbere y'umuntu utanga serivisi ya MTN, umwe yambaye ikanzu ikeye nziza imwambitse, afite imisatsi yahinduye, undi yambaye ipantaro itukura umupira w'umuhondo arisukishije.

Inzu yubatse ku buryo butangaje, isize amarangi meza, umuhondo barimbishije ibara ry'umukara, hari abantu benshi hirya yayo, abamanuka, abazamuka, imbere harimo abandi bari gushaka serivisi za MTN.

Umumotari ugemurira abantu ibiryo mu rugo iyo bamuhamagaye kuri terefone batashoboye guteka, ahahagaze iruhande rwe hari umukobwa wambaye ijire y'umuhondo utanga serivisi za MTN.

Umutaka w'umuhondo uranga aho emutiyeni ikorera imirimo yayo, hasi bahatambagije ibitambaro by'umuhondo, hejuru bahashyize ibyo bacuruza, harimo umuntu wicaye, ategereje abo aha serivisi.

Itsinda ry'abantu bicaye, bambaye imipira y'umuhondo, amapantaro y'ubururu, batatu barahagaze, babiri bambaye imyenda y'ubururu, uri imbere afite indangururamajwi, ari kuvuga, aracyeye.

Inzu y'ubucuruzi imbere hari ibyo bashyizemo hanze biramanitse, hino hari aho bari gucururiza ibintu bya sosiyete ya emutiyene, uri kubigurisha yambaye umupira w'umukara imbere hari mashine ari kujya atanga fagitire ku uguze ya ibiyemu.

Umukobwa munini muremure ari guseka, yambaye ingofero y'umweru itaburiya y'umuhondo, afashe ikirango cya MTN mu ntoki ari kwamamaza, ni byiza iyo ugaragaje ibikorwa byawe ukabimenyekanisha hirya no hino, ababibonye barabikunda bakakugana.

Inzu y'ubucuruzi iriho amarange y'ubururu, icyapa cy'umweru hejuru ry'umuhondo, abagabo bahagaze bambaye imipira ya MTN y'umuhondo undi yambaye uw'umweru, hirya ye hari uwambaye itaburiya y'ubururu bari gusaba serivise ya MTN.

Ibitebo bya parastiki bitandukanye ubururu, umuhondo, harimo ibitoki bibisi bakase amaseri, abantu bahagazemo bapfutse mu mutwe, bambaye imyenda y'umukara bigaragara ko ari mu ruganda rukorrera inzu.

Umuntu uri kuri moto ari mu muhanda, inyuma ateretse igikoresho bashyiramo ibyo kurya babatumye cyangwa se n'ibindi byose bagomba kugeza ku bantu, babahamagaye bakoresheje telefoni bakayibagezaho vuba vuba.

Umugabo uhagaze yambaye ingofero y'ubwirinzi mu rugendo imbere ye hari umukobwa w'insobe muremure ufite imisatsi isutse ari guseka, amuzaniye ibyo kurya kuko yamuhamagaye kuri terefone nibyiza iyo umuntu atatetse murugo ahamagara telefone bakamuzanira ibyokurya.

Inzu nziza yuzuye irakinguye imiryango ifite ibaraza imbere hari amakaro abengerana ameza bakoreraho imirimo itandukanye amarido ni meza arakeye.

Inzu yubatse kinyamwuga ifite amarange atandukanye, ibirahure bitandukanye, ikorewe amasuku, ni ndende, irimo amatara, harimo intebe n'ameza irakeye.

Mu nzu imbere ikinguye, harimo ibikoresho byiza, bisize irangi rikeye, intebe, ameza, igikoresho gihungiza umuyaga hagatuza, ubushyuhe ntibwice abantu.

Inzu yubatse neza ikorewe amasuku ni iyo kubamo imiryango irafunguye y'amarembo imbere mu madirishya hari kugaragaramo urumuri rw'itara ricanye abantu babamo ni mu gihe cya nijoro hagaragara neza amatara yaka.

Icyumba cyo kuraramo harimo igitanda kinini hashashe neza amashuka akeye, imisego, amarido, harateguye ni aho kuruhukira iyo uhageze ugubwa neza ugasinzira neza.

Inzu ikinguye mu cyumba, harimo igitanda gishashe neza, intebe, ameza, idirishya rikinguye, harimo amarangi atandukanye, ku nzugi, ku bikuta, no hasi hari amakararo.

Inzu yuzuye, ni nziza ifite amarangi y'umweru umukara igisenge gikomeye hirya hari ibiti bya veregeriya, ni birebire urukuta ruyizengurutse ni amatafari ahiye nayo asize irangi, hepfo haparitse imodoka.

Inzu nziza y'icyerekezo iruzuye ikorewe amasuku hasi imbere bahakoze neza harakeye imeze neza ni iyo kwifuzwa uwayibamo wese yakumva atuje.

Icyumba cy'umuntu cyo kuraramo, harimo igitanda, amashuka meza, matera nini, imisego y'umweru, ni heza harimo igikoresho gihugiza umuyaga iyo ubushyuhe bwagezemo.

Inzu ifite amarembo akinze, asize irangi ryiza, ibyuma bazengurukije kuhande birakomeye bifite ibara ry'umukara, babishyizeho kugirango bakumire abajura n'abagizi ba nabi, bashobora kujya kwangiza imbere.

Inzu yuzuye yo kubamo, isize amarangi y'umuhondo, ni nini ifite ibyumba bitanu, icyo kuriramo, imisarane ine, ibikoni hanze n'inzu y'umukozi, ni nziza, ni nini.

Inzu yuzuye ikorewe amasuku igeretse gatatu isize amarangi ku mpande irakoze imbere hari ibiti biri gukura neza ibyatsi akazuba kabihagazemo birareba neza.

Iyi ni inzu ikodeshwa iri ahantu bita kugisozi mu mujyi wa kigali mu Rwanda bakaba bari kuvuga ngo iyi nzu irimo ibyumba bibiri kandi irimo n'ubwogero bugera kuri bubiri.

Inzu ikomeye yuzuye irarimbishije bayisize amarangi atandukanye, mu mavase bateyemo ibiti, ni nziza kubaka inzu igeretse itwara umwanya mutoya, kandi hakayikorerwamo ibintu byinshi cyane n'abantu benshi bayijyamo.

Inzu zigeretse gatatu zo kubamo zirakeye ni nziza ziruzuye ziteye neza iruhande hari ibyuma bashyizeho hasi by'umukara kugirango zikomere ibiti bite imbere ni heza.

Inzu ndende cyane igeretse kabiri, ifite amadirishya meza, isize irangi ry'umuhondo imbere, hirya no hino hari uruzitiro rwamatafari ahiye.

Inzu nziza, zo kubamo bubatse, ziruzuye, ni kinyamwuga, zikinze neza, hasi hateye irangi, ku ruhande bahazengurukije uruzitiro rw'ibyuma bikomeye, kugira ngo zitazangirika.

Inzu yuzuye igeretse rimwe, isize amarangi y'umweru, imiryango iteye, irimo ibirahure, imbere yaho hari umukindo n'ibyatsi bahateye.

Inzu nziza yubatse neza isize ry'umweru ifite amadirishya inzira zijyayo zikoze neza akanyatsi, hararimbishije imikindo bahateye, ibiti biri hirya bitanga amahumbezi, ni heza cyane.

Inzu nziza yo kubamo, ifite igisenge cy'amabati atukura, isize ibara ry'icyatsi kibisi, ku madirishya n'imiryango hari iry'umweru, ku nkingi naryo ni uko, inyuma naho ku bikoni harasize ayo mabara agaragara neza.

Icyumba cy'uruganiriro, harimo ameza akoze mu mbaho zakomotse ku biti, intebe zifunitse nziza, n'umwenda mwiza, icyumba gisize irangi, harakeye, amatara ari kwakamo, hari urumuri, ni heza.

Isoko rinini ryiza harim abantu ibicuruzwa bitandukanye uri kugurisha yambaye umupira w'umuhondo, abaguzi barabizana babikura aho hirya no hino aho baba babipanze bakabimuzanira akabibara akababwira amafaranga akabaha n'inyemezabuguzi ya ibiyemu.

Umugore uhagaze mu isoko ryimbuto yambaye metero mu ijosi ari guseka, umuzungu uri imbere ye afashe ibyo atoranyije kugura bari kuvugana, inyuma ye hari umugabo ninziza zituma umuntu akomera amagufa n'amenyo.

Isoko rinini cyane harimo abantu bahagaze, abicaye, abagura, abataha ahabanza bari kubahacururiza amavuta y'amoko yose rifite amabara atandukanye ni heza haratunganye.

Umugabo wicaye yambaye umupira w'umukara afite umusatsi mukeya ku mutwe ari kubara amafaranga, inyuma ye hari amakanzu y'igitsina gore y'amoko atandukanye ni meza ni maremare.

Umusore uri kugenda yerekera aho barimo gucuruza imyenda yabagabo, yambaye ipantaro y'umukara mu ngofero itukura, ahetse igikapu kidoze mu gitenge, ari kugenda yitaba terefone yerekera aho bacururiza.

Inzu irimo ubucuruzi butandukanye babukoreye utubati twa ibirahure bipanze neza biragaragara amabara atandukanye, hasi hari amakaro, hari isuku, haratunganyije.

Isoko bari gucururizamo ibitandukanye, inkweto z'abagabo, iz'abagore, amasakoshi, imikandara, imyenda hakurya izinze, imipira itukura, umuhondo, inyuma hari n'ibindi bicuruzwa biri kuhagaragara.

Isoko bari gucururizamo ibintu by'ubugeni n'ubukorikori, ni byiza kubikora no kubireba bigaragaza impano ya buri wese, icyo umubonamo n'umumaro azamara. Kubera y'uko bose iyo babikora ntibakora ibisa, bakora ibitandukanye.

Isoko bari gucururizamo ibiribwa bitandukanye imineke, amavoka, powavuro, wotameloni, ibitoki, harimo abantu batandukanye, ni byiza kurya indyo yuzuye igizwe n'ibitunga umubiri byose.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane imboga, ni ingenzi mu mubiri w'umuntu kuko zifite vitaminini nyinshi umubiri ukenera, izikomeza amenyo, imbuto, imboga byose ni byiza.

Umukobwa muremure wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku, ni inzobe, afunze umusatsi, ari hagati y'ibyo ari gucuruza, ari kubimanika kugira ngo uwinjira wese ahite abibona.

Umukobwa uhagaze yambaye iby'umukara hasi no hejuru isaha ari guseka arisukishije nibyiza kwishima mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, bimwongerera iminsi yo kubaho ntabwo asaza vuba ntanubwo ahinduka mumaso.

Mu nzu nziza bacururizamo ibiribwa bitandukanye n'ibinyobwa bikorerwa mu nganda bipanze neza hasize irangi ry'umweru harimo na purafo hari amahumbezi kubera ko hatwikiriye neza.

Abantu benshi bahagaze mu isoko, hari abagura, abagurisha, abagabo, abagore, ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'indabyo, z'umweru n'ibyiza bari kwitegereza ibyo bagomba kugura kuko ari cyo cyabazinduye kujya kubireba.

Inzu nini cyane bubakiye isoko, harimo abantu benshi abinjira n'abasohoka, ibicuruzwa, abazenguruka bahitamo ibibanyuze; ni beza, ni barebare, barakeye.

Abagabo batatu bahagaze mu isoko bagurishirizamo amasakoshi y'abagore, umwe ni umuzungu ni munini muremure, yambaye umupira uciye amaboko, ipantaro y'ubururu, ni byiza, ni amabara atandukanye, biryoheye kubireba.

Iyi ni ingorofani yifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, aho ishyirwamo ibiba biremereye cyane badashobora kwikorera nk'imifuka, amakarito menshi ndetse n'ibindi.

Amagambo y'umweru yanditse mu bururu, avuga ngo ubwisungane mu kwivuza ni bwiza, uwabufashe ntabwo arembera mu rugo, aragenda yagera kwa muganga, bakamwakirana urukundo n'ubwuzu n'urugwiro.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abana n'abagore baricaye abandi barahagaze bafite impapuro mu ntoki bari ku kigo nderabuzima baje kwivuza, bakoresheje ubwisungane bwo kwivuza Mutuelle de Sante.

Abagore n'abagabo bicaye ku ivuriro babasuzumye babahaye impapuro bategereje kwinjira ngo babahe imiti baricaye baratuje kuko kwivuza ni byiza.

Abantu babiri bicaye imbere yabo hari ameza umwe yambaye itaburiya y'umweru yab'abakoranabushake hirya hari ibikoresho ari kwivuza mu gihe yarwaye ntabwo ashobora kurembera mu rugo ahita agana ubishinzwe akamuvura.

Icyumba abaganga bari gusuzumiramo abarwayi, harimo uri kwinjira wambaye itaburiya y'umweru umugore wifubitse igitenge uhagaze imbere ye ,hari uri kwandika areba niba yishyuye neza afite amagitansi imbere ye.

Umurwayi wicaye kwa muganga, afite ifishi bamukoreye yivurizaho n'ubwisungane mu kwivuza, arategereje nibamugeraho baramwishyuza amafaranga makeya, kuko afite ubwishingizi.

Ubwisungane mu kwivuza mitiwere de sante, ni nziza kubantu bose bayikoresha, iyo barwaye ntabwo barembera mu rugo, abana, abakuru, abatoya, umuryango iyo wayitanze nta kibazo ugira kwishyura amafaranga makeya.

Inzu ikinguye umuryango, hanze hari abantu bahagaze, imbere abaganga barimo bambaye amatabuririya y'umweru bafite n'amaga mu ntoki y'ubwirinzi, bari gupima ibizame by'abarwayi, inyuma hari abategereje ibisubizo, barangirije gupima.

Amagambo yanditse mu irangi ry'icyatsi kibisi risobanura ubwisungane mu kwivuza ubufite ntarembera mu rugo, ahita ajya kwivuza iyo afashwe n'uburwayi akagerayo bakamwakirana urugwiro bakamuca amafaranga makeya bamaze kumuvura.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi, hasi hari amakaro, hirya no hino bahashyize ibyo bagurisha by'amoko atandukanye umutuku, ubururu, umuhondo, umweru biri kugaragara neza.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye amavuta ari mu icupa rya palasitike ari mu kajerekani, umukobwa ari kuyaterura, afite umusatsi ufungiye hejuru, yambaye ipantaro y'umukara.

Inzu nini bageneye gucururizamo ibinyobwa, babipanze neza, harakeye hafite isuku, biragaragara ku buryo bushimishije haryoheye amaso.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Inzu barangurizamo ibituruka ku ifarini, amandazi, imigati n'ibindi, bari kurangura, ni byiza ni ibibiribwa bikundwa na buri wese, abana n'abakuru, ni ingirakamaro ku mubiri w'abantu.

Umugabo muremure, mwiza uhagaze mu nzu bari gucururizamo, hepfo no haruguru ye, hari ama etageri avanzemo ibicuruzwa biri mu mumacupa, y'amoko atandukanye, ni byiza biragaragara neza.

Icyapa giteye k'umuhanda kiyandikisheho inyuguti z'umutuku ijambo simba rirakwereka y'uko aho ugeze aho hafi aho hari isoko rinini ugomba kujya guhahiramwo ibyo ushaka byose nta na kimwe wahabura kandi ukayibonera icyarimwe.

Umukobwa uhagaze mu cyumba bari gucururizamo, yambaye ikote ry'ubururu, imbere umupira w'umweru arasutse yambaye ipantaro ni munini, ni muremure, ari gusoma agapapuro mu ntoki.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi hasi hari amakaro hejuru harimo amatara isize irangi ryiza ibirimo bipanze neza ku murongo amabara atandukanye ibisa bagiye babishyira hamwe.

Isoko rinini ryagutse bari gucururizamo, ibintu bipanze mu mayetajeri bakurikije ubwoko bwabyo, amabara atandukanye, harakeye, harimo inzira hagati iromboreje, ku buryo umuntu yinjira akanasohoka, agahaha bitamugoye kuko buri bwoko bupanze ukwabwo.

Inzu bacururizamo ibinyobwa by'ibinyasukari bipanze mu bice bibiri, icyo hepfo n'icyo haruguru, ni byiza, biraryohera, nta alukole ibamo yakwica umubiri, akenshi binywa abana n'abatanywa inzoga.

Umugabo munini muremure wambaye agapfukamunwa, ahagaze imbere y'umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi kibisi n'agapfukamunwa k'umukara. Ari kugura imiti bamaze kuyimuha ari kubara amafaranga agomba kuyishyura.

Abantu benshi bahagaze birundanyije, abambaye imipira itukura, umuhondo, umukara, imbere yabo hari ameza ariho ibicuruzwa bitandukanye, bari kubaza ubicuruza uko bigura. Umwe w'umukobwa ari kumwitegereza, umugabo nawe ari kumusobanurira.